Ibara bacururizagaho inzoga, yanditsweho bari jeze folola, kandi hakaba handitsweho pirimusi n'amagambo manini.

Dusangamo ibintu bitandukanye umugore akaba ari muri kontwara aho afite inzoga ndetse hari n'undi mugabo bari gufatanya bakaba bambaye ibintu by'umweru n'umukara.

Bare yanditsweho vilayo ikaba ifite imiryango ifunguye. Ukaba uhasanga n'udutebe n'utumeza duteretse imbere aho abakiriya bicara.

Butike icuruzaga ibintu bitandukanye ikaba icuruzaga intebe zo gushira ku magare ndetse ikaba icuruzaga n'ibiziga byo gushira ku magare ikaba imeze neza kandi ikaba irimo amafaranga menshi

Amatara ari ku muhanda ari ku nsinga. Hari amazu ku ruhande rwayo ndetse n'umuhanda, bikaba bimeze neza cane kandi hakaba hafite ikirere ciza cane.

Inzu ya etaje ikaba ari isoko rya Goyiko. Ifite ibigega birambitse imbere yabyo. Ibigega bikaba bidufashaga mu kureza amazi.

Inzu y'ubucuruzi usangaho ibintu byinshi cane, aho abacuruzi bacuruza bakabona inyungu ndetse n'abakiliya baraza bakabona ibintu bashaka, bityo rero u Rwanda rugatera imbere.

Amakaro ari hejuru y'inzu, inzu ikaba ifite akapa hejuru yako n'amakositara ndetse ikaba ifunguye, ifite amapave imbere yayo atuma hagira isuku.

Icapa candikishijweho amagambo y'umukara n' ay' umutuku canditsweho: twigishaga Icongereza ku buntu. Andika muri yutube lani Ingilishi revulande.

Imyenda zimanitse bakaba barazidoze zikaba zikeneye abakiriya, umugabo yambaye agapfukamunwa ari muri iri duka, iri duka rikaba ririmo n'inkweto.

Inzu y'ubucuruzi yitwa Ngoga Fashoni Shopu, iriho yuko bacuruza amakoti, inkweto, imikandara amasogisi ndetse n'amakabutura. Hakaba hariho na nimero za telefoni.

Igipangu canditsweho sabuna bakaba bajaga kuhagororera abantu bafite imitsi yapfuye, ndetse n'ibindi bitandukanye, igipangu kikaba gifite jaride nziza cane.

Resitora ifite icapa cyanditsweho ba resitora fasita fudu na nimero za telefone ndetse n'amacupa y'inzoga bagurishaga hano hantu.

Iyi ikaba ari farumasi, hakaba harimo udukarito dushushanyijweho inka n'intama, bigaragara yuko ari umuti wazo.

Akabati karimo inkweto za masayi izi nkweto zikaba zikorwa mu rwanda cane cane izi nkweto zikaba ziboneraga ku muntu uzambaye.

Iyi akaba ari iduka ricuruzaga matela yitwa bwiza shopu disitiribiyuta. Rikaba riri ku nzu ifite irangi ry'umuhondo n'indi nzu bituranye ifite irangi ry'ubururu.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi cane impande yabo hari amazu y'ubucuruzi ateye irangi ndetse n'abantu bari gucaho bigaragara yuko uko hameze neza.

Bikaba, ari isoko ricuruza, amakuvurori, imisego, indobo, amabase, ndetse n'ibindi byinshi, kuruhande hakaba haparitse akagare.

Iduka ry'ubucuruzi, iki akaba ari igikoresho usanga muri wese ndetse n'ahandi hantu bihagarikira cyane cyane mu bigo by'amashuri cyangwa se no mu zindi nzu zigezweho muri iki gihe.

Amashanyarazi hejuru y'inzu, aha ni kuri Seterafe haba uruganda rwa Musanze. Nyuma yaho hakaba hari ibiti. Ibiti bikaba bikoreshwa mu bintu bitandukanye. Uru ruganda rero rukora inzoga.

Butike: Aho abantu bava ahantu hatandukanye kugira ngo baze gusabana ndetse bafate icyo kunywa n'icyo kurya, banaganire kugira ngo babashe kuhagorobereza, ndetse bahahe n'ibibatunga babijyane mu ingo za bo.

Alimantasiyo tuguraraho ibyayi hakaba handitswe Jibu, hakaba hari n'icapa ca Emutiyene, ikaba ifite idirishya rifite utuntu dutatseho twiza cane.

Iduka bacururizamo icayi rikaba ryanditsweho "Gisa Coffe" rikaba ryegereye sitatiyo y'imodoka imoto, ndetse n'ibindi binyabiziga bikoreshaga biri kuja kunwa lisansi.

Papeteri bakoreshaga bari gufotora impapuro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ikaba iri muri etaje kandi hakaba hariho icapa kiri kuranga ibintu byose bakora.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa, aho umuntu ashobora kubona amayinite, simukadi ndetse akabasha kubitsa no kubikuza amafaranga, mu buryo bworoshye kandi bwizewe neza.

Inzu z'ubucuruzi izi nzu zikaba zicuruzaga ibintu bitandukanye, bakaba bararagamo ndetse hakaba hanabamo ibyo kurya.

Fatima hoteli ni hoteli nziza cane yegereye kaburimbo, kandi ku gipangu cayo hariho ibyatsi nk'imigano ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Inzu ya etaje iriho icapa. Icapa kikaba gishushanyijweho ibyo kujya. Hakaba hari n'ikindi capa hejuru kiriho amacumbi cyanditsweho Figagesitihawuzilimitede.

Isoko ry'ibiribwa rikaba ricuruza ibishimbo bikaba bisutse ku gisima hejuru inyuma ya y'isoko hakaba hagaraga imitaka ya emutiyeni babikurizaho amafaranga kugira ngo bishyure.

Mu isoko hahuriramo abantu batandukanye ufite amagare abari kugura ndetse n'abari kugurisha. Iri soko bigaragara yuko harimo abantu benshi, urujya n'uruza ruza ruje kugura abandi kugurisha.

Imyenda iri mu isoko bakaba bayizinze kugira ngo itabasha gusazira mu isoko hari amashati ndetse n'amapantaro amanitse ku ruhande hakaba ahari kwaka amatara.

Isoko ribamo ibintu bitandukanye. Hakaba hari n'umutaka ku ruhande, ndetse n'amatara ku ruhande, amurikiraga iri soko kugira ngo abantu babone.

Imboga za penali, tuzikoresha ahantu hatandukanye, mu gukora isupu, ndetse no gukora ibindi, ipenari zikaba zifite ibara ry'icatsi, zikaba ziryohaga, abantu benshi bakaba bazikundaga.

Mu isoko usanga aho ibintu byinshi bitandukanye, amabase ndetse n'udutanda two gushiramo ibintu. Isoko rero rikaba rimeze neza, ibi bintu bikaba biteretse ku meza y'ibiti.

Isoko usangagamo ibintu bitandukanye, ibyo kurya, ibyo kwambara, n'ibindi byinshi. Iri ririmo inyanya, amasafuriya, ndetse bikaba biteretse ku bizima byubakishije amatafari.

Isoko dusangamo ibintu byinshi byo kurya. Abaturage baza barigana ndetse n'abacuruzi bakaza gukoreramo, kugira ngo bagire amafaranga. Aha turabona yawurute ndetse n'uducupa turimo fanta za mirilitiro magana atatu na mirongo itanu.

Bote ziri hasi ndetse n'izindi nkweto ziri hasi n'indobo, iri rikaba ari iduka rinini cane. Bakaba babisutse hanze biiri mu isoko.

Amaturere y'amagi arimo amagi menshi cyane, aya matureri akaba afashaga amagi kugira ngo ntameneke, bayageze ku isoko aho abakiriya bayashakira bakayagura bikaba bimeze neza.